Abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima bakora mu mu rwego rwo gutabara ubuzima bw'abaturage, aho bakorera ku bigo bitandukanye nk'ama poste de sante atandukanye mu gihugu hirya no hino, aho bagenda bafasha abarwayi kubavura.

Ubutumwa bwa minisitiri w'ubuzima mu rwanda dogiteri Sabin Nsanzimana; aho agenda asobanurira abantu uburyo ki abantu benshi bahitanwa n'indwara za kanseri; akaba ari na ngombwa y'uko twipimisha hakiri kare.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we muto, bigaragara ko ari mraunsi y'imyaka itanu ari kwa muganga aho ari kwitabwaho n'undi muganga, bigaraga yuko ari ngombwa rero ko abana bakiri bato bagomba kujyanwa kwa muganga inshuro nyinshi.

Leta y'u rwanda ishyize imbaraga muri gahunda y'ububanyi n'amahanga; aho igenda ikorana n'ibigo bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye; mu rwego rwo guteza imbere gahunda ya dipolomasi; kugira ngo igihugu kirusheho gutera imbere cyane.

Inama ihurije hamwe abahanga mu by'ubuvuzi bw'abana ndetse n'imikurire y'abana aho bagenda baganira ku cyateza imbere ubuvuzi bw'umwana ndetse no kugira ngo umwana akure neza atagwingiye.

Abaturage batandukanye batuye mu bice bitandukanye, ni kenshi cyane bahurira mu nama aho baba bahuriye hamwe n'ubuyobozi bwabo kugira ngo baganire ku iterambere ry'agace batuyemo ndetse bungurana ibitekerezo kugira ngo bateze sosiyete imbere.

Ni inama iteraniyemo abaganga benshi bagiye batandukanye n'abandi bantu bo mu nzego z'ubuzima iyobowe n'abantu bagera kuri batatu ni abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umugabo wo hagati afite laputopu imbere ya buri umwe hakaba hari mikorofone bari kugenda bagaruka ku bintu byo guteza imbere ubuzima.

Ni ngombwa ko abantu aho dutuye muri sosiyete aho ariho hose dutuye hagiye hatandukanye tugomba gushyira hamwe tugafatana urunana by'umwihariko tugafatanya mu kurwanya indwara zo mu mutwe zibasira bamwe muri twe.

Umunsi mpuzamahanga wagenewe indwara zo mu mutwe ni umunsi abaganga benshi ndetse n'abandi bantu bakora mu bijyanye n'ubuzima bagenda batangaho ubutumwa bugiye butandukanye bufasha abantu kuzitaho neza.

Umusore wishimye wambaye umupira w'umweru, afite mu kanwa heza, amenyo y'umweru ndetse arasinziriye, ikigaragara rero ni uko buri gihe tugomba guhora twishimye kugira turusheho kugenda tugira ubuzima bwiza, ndetse amenyo meza nayo tuyiteho tuyakore isuku.

Umusaza bigaragara yuko ari mu gihe cy'izabukuru ari kumwe n'umujyanama w'ubuzima cyangwa se uwo twakwita umuforomo aho ubu arimo aragerageza kumupima ngo arebe ikibazo yaba afite ni ngombwa rero kwipimisha buri gihe.

Umubyeyi ubona ko nawe ari mu gihe cy'izabukuru, ari kumwe n'abana biwe ubona yuko bishimye bari kumwe bafite imiti mu ntoki, aho umwana muto ari ufite imiti mu ntoki y'ibyatsi ndetse ikaba ari imiti gakondo, bakatubwira bati kwishima cyangwa se kugira umuryango mwiza ni ugusabana n'abo mu muryango.

Ni ahantu abarwayi basohokera igihe bavuye kwa muganga, mbese nk'igihe bavuye mu bitaro bari bamazemo iminsi, bakahasohokera mu rwego rwo kwirinda kujya kugonganira n'abandi barwayi baje kwa muganga, ngo bibe byatera akavuyo.

Inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge aho ibyo bitaro byubatse neza ndetse bikaba bikikijwe n'ibidukikije, ku buryo bifasha mu kuzana umwuka mwiza abarwayi bahumeka.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi aho barimo baragenda bakora ubushakashatsi butandukanye ku miti ndetse n'ibyagirira akamaro ubuzima bw'abaturage aho barimo bafite ibikoresho bitandukanye bambaye mataburiya ndetse bafite n'amaga.

Ibitaro bigiye bitandukanye usanga bifite ahantu habugenewe ho kugira ngo abarwayi bumva bananiwe bagende baharuhukire n'ibifasha abarwayi kumva bameze neza mu mutwe ndetse bikabarinda kuba batekereza ibintu bibi.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza; dushishikarizwa gukora siporo; tukazikora buri munsi ndetse tukanywa n'amazi; kuko ubuzima bwiza ari ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho by'imikino itandukanye birimo imipira haba umupira w'amaguru wa gfutu, hari kandi umupira wa basikete baru hakaba uwa rogubi, hakaba uwa tenisi ndetse ariko kandi hakaba n'idenesi byose bifashishwa cyangwa se abantu babikoresha bakina umupira.

Muganga yifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye, aho mu bikoresho byo kwa muganga dusanga hari udukurura amajwi umuganga ashobora kwambara mu matwi, hanyuma akajya agafata akagukozaho, hanyuma kandi ugasanga hari akandi kagenda kagaragaza igipimo cy'uko umutima wawe uhagaze n'utundi dukoresho dutandukanye two kwa muganga dufasha umuganga kuvura umurwayi.

Ni ngombwa ko mu buvuzi tugenda dufata bugiye butandukanye twakwitaye kugukora siporo zigiye zitandukanye; kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze kandi buzira indwara zitandukanye n'umubyibuho ukabije.

Ni cupa ririmo umuti, ariko rikaba umuti w'amavuta ashobora kwisigwa, aho ayo mavuta akorwa mu bidukikije by'umwihariko bizwi nk'ibikarubamba, akabafasha mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza kandi agire uruhu runyerera.

Abantu benshi dukunze kurwara imigongo igiye itandukanye, umugongo ushobora kugufatira mu rubavu ukagufatira murutirigongo ariko kandi hakaba n'abantu bakunze kubabara mu bitugu mu ijosi aha rero akaba ari umuti ushobora kuvura ibyo byose mu gihe ukoresheje uwisiga.

Ni umuti ukomoka ku bimera bigiye bitandukanye harimo nk'avoka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragara y'uko iyo ukoresheje neza bishobora gutuma ugira uruhu rukeye ndetse rusa neza kuburyo ukureba wese abona uri mwiza.

Ni byiza ko abantu twakoresha imiti ariko tugakoresha imiti ikomoka ku bidukikije cyangwa se imiti iri natirere aho kugira ngo twirukire ku gukoresha imiti yo mu nganda, kuko imiti iri natirere ivura kandi ntigire ingaruka ku buzima bw'ejo hazaza.